Bano baturage bateranijwe bose hamwe, bakaba kandi bari mu ngeri zigiye zitandukanye, abagore, abagabo, abasore ndetse n'inkumi, kugira ngo babashe kuba bahabwa ikiganiro bateguriwe maze ubuzima bukomeze kurushaho ku kugendakeka neza.

Aba ni abantu bateraniye hamwe bigaragara ko buri wese agiye afite inshingano zigiye zitandukanye kandi bari kuganira ku kintu byanze bikunze cyagirira akamaro umushinga bafitanye muri rusange.

Uru ni urubyiruko mu bigaragara rwari rwasuwe n'abantu bagiye bakomeye mu nzego zitandukanye, aho harimo n'abashinzwe umutekano wa hano mu Rwanda kugira ngo bahabwe umurongo w'ubuzima bwabo kandi bakomeze banakurikirane gahunda z'igihugu ku murongo kandi ku mutekano.

Ibi ni ibirori mu bigaragara byateguwe neza cyane, bitewe n'imitako ihari ndetse n'igisenge bakoresheje kirimo n'amatara arimo amurika urumuri rwiza cyane, mu bigaragara abahateraniye baje mu bintu bigiye bitandukanye kugira ngo bungurane ibitekerezo.

Aba ni abantu baba bari mu ngeri zitandukanye, harimo abagabo n'abagore ubona ko bitabiriye inama y'ingenzi kandi bahurije hamwe, bagenda bungurana ibitekerezo mu cyaba cyabatumye baganira ku ngingo y'ingenzi.

Aba ni abantu, buri wese akaba agiye afite Inshingano zigiye zitandukanye bitewe n'akazi yaba akora. Nk'uko bigaragara, imbere hari minisitiri UTUMATWISHIMA akaba ari minisitiri ushinzwe urubyiruko kandi akaba yicaranye n'abandi banyacyubahiro.

Aba bantu bateraniye hamwe uko ari bose bari mu byiciro bigiye bitandukanye bitewe n'inshingano buri wese agiye afite. Mu bigaragara rero bari kuganira mu bijyanye n'isuku nk'uko inyuma y'aba bantu bayoboye kino kiganiro hari icyapa cyangwa se igikuta cyanditseho ngo Kigali ikeye.

Aba ni abantu bateraniye hamwe, ubona ko barimo ingeri nyinshi zitandukanye, ariko cyane cyane higanjemo urubyiruko. Mu bigaragara, ahantu bateraniye rero, hari ibikorwa remezo ndetse n'ibinyabiziga. mu cyabateranyirije hano, bishobora kuba ari ukuganira ku ngingo runaka maze bakabasha kuba bakungurana ibitekerezo runaka.

Aba ni abantu bari mu ngeri n'ibyiciro bitandukanye, aho mu bigaragara bateraniye hamwe mu nama kugira ngo bige ku ngingo runaka z'ibyemezo baraza gufatira hano. Buri wese yiteretse amazi kugira ngo ataza kwicwa n'inyota.

Iyi ni inama ubona ko yateguriwe ahantu heza cyane kandi hisanzuye, ikindi mu bigaragara yitabiriwe n'abagore gusa, aho bishoboka ko barimo bagirwa inama cyangwa se bungurwa ubumenyi mu busanganywe n'ubwo bari bafite.

Bano baturage bateraniye hano muri kano gace ku bwinshi, bari mu ngeri zigiye zitandukanye, abagore, abasaza, abakecuru ndetse n'abandi, kugira ngo baze kubwirwa ingingo nyamukuru yatumye bahamagarwa aha ngaha maze babe bayiganiraho.

Aba ni abantu bigaragara neza ko bashobora kuba bari mu nama cyangwa se ibindi birori, mu gihe bamwe muri bo bafite mudasobwa bashobora kuba bari kureberaho ibintu bigiye bitandukanye, bakaba biteretse n'amazi yo kwica inyota.

uru ni urubyiruko kandi bakaba n'abanyeshuri, bigaragazwa nuko abenshi muri bo bambaye impuzankano y'umupira w'ubururu, rero bakaba bateraniye muri kino cyumba kinini, kugira ngo babashe kuba babwirwa impanuro cyangwa se babe baganira, ku ngingo yabateranyije hano bose.

Iyi ni inama yari yateranirije abantu b'igitsina gore cyane cyane nk’uko bigaragara kubera ko ari bo bonyine n'ubundi bahari, nta bagabo babajemo. Aha hantu rero urabona ko ari ahantu heza kandi hiyubashye ho kuganiraho ibintu runaka.

Aba ni abantu bateraniye hamwe aho buri wese agiye afite inshingano zigiye zitandukanye bitewe n'umurimo akora. Bakaba bateraniye rero mu cyumba cyiza kandi cyubatswe mu buryo bubereye ijisho. Bakaba rero bateraniye hano kugira ngo babashe kuba babwirwa ingingo runaka yo kuganiraho, cyangwa se ibindi bitandukanye byaba byabazanye.

Aba ni abantu b'abanyacyubahiro kandi ubona ko bateraniye hamwe barimo baganira ku ngingo runaka yabahurije hamwe; bose kandi urabona ko basirimutse, bafite n'amazi imbere yabo yo kwica inyota.

Aba ni abantu ubona ko bambaye neza kandi basirimutse bateraniye n'ahantu ubona ko rwose bubatse mu buryo bwiza, bakaba rero bahuriji hamwe ibitekerezo ngo baze baganire ku ngingo zijye zitandukanye zabazinduye.

Iri ni isomero, aho ushobora kujya kuba wareba igitabo waba ushaka gusoma kandi unifuza, mu gihe rero utakibonye cyangwa se hari ikindi kintu ushaka gukoraho ubushakashatsi utumvishe neza, hari mudasobwa ziri ku ruhande wakwifashisha maze ukabona ubusobanuro bwacyo.

Iri ni itangazo ryatanzwe n'ikigo gikuru mu Rwanda gishinzwe ibijyanye n'imisoro babaza abantu ati: "umusoro ku mutungo utimukanwa umenyekanishwa ryari?", na bo basubiza bavuga ngo "umusoro ku mutungo utimukanwa umenyekanishwa kandi ukanishyurwa bitarenze tariki mirongo itatu n'imwe ukuboza za buri mwaka."

Uru ni urubuga rw'ikigo gikomeye cyane gikorera hano mu Rwanda gishinzwe ibijyanye n'amashyamba. Bakaba rero barimo bamenyesha abantu ko biteguye gutera ibiti bisaga miliyoni mirongo itandatu n'eshanu, mu myaka ya bibiri na makumyabiri na kane ndetse na bibiri na makumyabiri na gatanu. Iri tangazo rero rikaba ryaratanzwe tariki makumyabiri n'umunani Ukwakira, bibiri na makumyabiri na kane.

Iri ni itangazo ryatanzwe n'ikigo gikuru gishinzwe imisoro mu rwanda ribwira umunyarwanda wese waba ushaka guhindura umubare w'ibanga ku rubuga basoreraho ukuntu babigenza maze bigakorwa neza.

Ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda cyari kirimo kimenyekanisha cyangwa se kibwira abantu uburyo bakwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane aho bababwiye uburyo bashobora kubikoramo bugera kuri cumi na bune.

Iri ni itangazo ryatanzwe n'urubuga rukorera mu Rwanda rwitwa irembo, aho rwashishikarizaga abantu rubabwira ngo" nawe washobora kwisabira uruhushya rw'agateganyo mu gutwara ikinyabiziga cyangwa se uruhushya rwa burundu, rubabwira ngo byikorere.

Aha ni mu kigo cyitwa Lycee de Kigali. Aba akaba ari abanyeshuri babo kandi mu bigaragara baba bari gufata ubumenyi mu bijyanye na mudasobwa, kandi bakomeza no kubwagura kugira ngo babone isoko ni bamara kwiga.

Iri ni itangazo ryagaragazaga ko, uku ari ukwezi ko gushimira abasora, byabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, ku nshuro ya makumyabiri n'imwe. Babwira abantu ngo, saba inyemezabwishyu y'ikitwa EBM, maze wubake u Rwanda.

Uyu ni umunara mu bigaragara muremure cyane ufite metero nyinshi uzamuka ugana hejuru, uyu akaba ari umunara wifashishwa mu itumanaho rigiye ritandukanye hirya no hino mu gihugu.

Iki ni icyumba cyiza cyane kandi cyubatswe mu buryo bugezweho mu bigaragara, kubera ko ushobora kwakiriramo abantu benshi, maze mukajya inama cyangwa se mugakora ibyo mwateganyirije kugikoramo mukiyakira.

Iri ni itangazo ryatanzwe ryarebaga buri umwe wese wari ushaka kuba yatsindira amafaranga asaga miliyoni, aho bamusabaga kuba yaza akagaragaza impano ye, yaba gushushanya, kuririmba, ubusizi, kubyina, gusetsa ndetse n'izindi mpano. Ibyo rero byari kuza kuzakorwa kugeza tariki ntarengwa umunani z'ukwa cumi na kumwe, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe.

Iri ni itangazo ry'ikigo gikuru mu Rwanda, cyitwa rura, ryari ririmo rimenyesha abanyarwanda bose, ribabwira ikoreshwa rya gazE neza, murugo ribabwira uburyo bagomba kwitwararika nyuma, mbere, n'igihe batarimo guteka.

Iri ni itangazo ryabwiraga buri muntu wese bireba ko akwiye byibuze kumenyekanisha uyu munsi umusoro ku nyungu z'umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu, maze akawishyura bitarenze tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa gatatu, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Uyu ni umunara muremure cyane usizwe ibara ry'umweru, ukaba wifashishwa mu bijyanye n'itumanaho hagati y'abana babiri cyangwa se banarenzeho mu gihe bakoresha mudasobwa ntoya tugendanwa mu mifuka.

Urubuga irembo rwamenyeshaga abantu intambwe zisabwa, kugira ngo ube wabona serivisi runaka ushaka, hano ni nk' aho bavuze ngo ibisabwa ku ntambwe ya kane, ko ugomba kuba byibuze ufite indangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se ukaba ufite hejuru y'imyaka cumi n'umunani mu byangombwa wabaga urimo gusaba.

Aba ni abantu bose bari gukoresha umuhanda w'abanyamaguru, aho babiri batwaye igare naho umwe ari kugenda n'amaguru, kandi imbere yaho hari imihanda ihuranamo hagati, hakaba n'andi mazu agiye ari hirya mu nce zigiye zitandukanye.

Aba ni abantu bize ibijyanye n'amashanyarazi ndetse n'ubundi bumenyi bwagutse, maze bakaba bari kubwifashisha bubaka uno munara, ukazajya uba wifashishwa mu itumanaho ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, kugira ngo abantu babashe kuba bavugana neza nta kibazo kibayemo.

Uyu muhanda urimo uracamo ikinyabiziga cg se imodoka iri mu ibara ry'umutuku. Iruhande rw'uno muhanda hari icyapa cy'ikigo gishinzwe ibijyanye n'amashanyarazi hano mu Rwanda, kikaba kirimo kerekana ishami rya Remera. Inyuma y'icyo cyapa rero hakomeje hari inyubako irimo irubakwa ariko itararangizwa.

Uyu ni umugabo bigaragara neza ko yari arimo arasanza itaka nubwo yicaye, akaba yari arimo kuritega imifuka na none irimo itaka kugira ngo aritangire ritabasha gutemba.

Iri ni itara rimurika mu muhanda, ririmo ricaho umugozi w'amashanyarazi. Iri tara rero rikaba ryifashishwa mu gihe cya nimugoroba ndetse na nijoro, mu gihe izuba ryarenze cyangwa se nta rumuri ruhari mu muhanda, kugira ngo rimurikire neza imodoka zitambuka.

Aha ni ahantu hari urujya n'uruza rwinshi cyane, ubona ko aburira abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, aho buri wese afite ikimugenza cya se icyamuzanye kigiye gitandukanye n'icy'undi, kandi ubona ko ari ibikorwa byo guteza imbere igihugu.

Aba bantu bambaye imyenda yabugenewe, iri mu ibara ry'ubururu bwijimye cyane ndetse n'ingofero z'ubururu, bakaba baniziritse imikandara, barimo bazamuka kuri rino poto, kugira ngo barebe cyangwa se bakemurare ikibazo cyaba gihari, maze babe babasha kubikemura neza.

Aya ni amazu yubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho, aho hari n'amwe muri yo afite uburyo bwo gushyushya amazi ndetse n'ikigega cyo kubika ayo mazi mu gihe yabuze. Noneho ruguru yayo hakaba hari n'umuhanda, ubona ko bifite isuku kandi binogeye amaso.

Uyu mumama wambaye neza mu bigaragara avuye guhaha kubera ibikapu afite cyangwa se akaba ari imizigo akuye ahantu runaka, akaba ari kuvugira nanone kuri ka mudasobwa gatoya tugendandana mu mifuka yacu, iruhande rwe hakaba hari n'umuhanda urimo cyangwa se usanzwe ucamo ibinyabiziga.

Uyu ni umuhanda bigaragara ko ku ruhande rwawo, hagiye haparitse imodoka zigiye zitandukanye, kandi hakaba hari n'ibikorwaremezo bigiye byubatse ku mpande z'uyu muhanda.

Aba ni abantu bari mu ngeri zigiye zitandukanye, abakecuru, abasaza, abagore, abasore, bose bahuriye hamwe kandi bakaba bicaye hano hanze, bategereje guhabwa icyabazanye hano kugira ngo basubizwe neza maze batahe, babonye icyabazanye.

Aba bambaye imyenda y'umweru ndetse banafite ingofero hejuru z'umweru, ni abarimo bafasha abantu, babaha ibyo kurya kandi banabarurira, binashoboka cyane ko ari na bo baba babitetse. Aba rero ni abaturage barimo batambuka ku ruhande, batambaye imyenda y'umweru ndetse n'ingofero ngo babashe kuba bakarurirwa maze bahabwe ibyo kurya.

Iyi ni imwe mu modoka nziza cyane zifashishwa mu buryo bwo gutabara ubuzima mu gihe habaye impanuka, zikunda kuba ziri mu bitaro ziteguye kugira ngo igihe icyo aricyo cyose zijye gutabara umuntu waba akoze impanuka, afite uburembe bukabije, atabasha kwijyana kwa muganga.

Aba ni imfungwa cyangwa se ingororwa z'abagore, bari bajyanywe ahantu runaka bayobowe n'abashinzwe umutekano b'ino gereza yitwa Mageragere kugira ngo barusheho kunoza imirimo yabo muri gereza.

Uno mugabo birashoboka ko yaba ari umwe mu bashinzwe amategeko bitewe n'uko bazwiho kuba bambara imyenda y'umutuku ndetse n'umweru mu gihugu cy'U Rwanda akaba rero ashinzwe ibijyanye n'ubushinjacyaha cyangwa ibindi bitandukanye biri mu mategeko.

Aha ni gereza ya Nyarugenge iri mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, bakaba barimo batwereka imfungwa cyangwa se ingorwa z'abagore zari zirimo zitambuka muri ino gereza yabo.

Iri ni itangazo ryari rigenewe abanyarwanda, ryavugaga ko umuntu akwiye kwirinda abagira ibyo bamusaba, kandi bamwizeza ko bazamufasha kubona ubutabera mu nkiko, bamubwira ngo birinde kuko ubutabera butagurwa.

Aba nk'uko bigaragara ni imfungwa cyangwa se ingororwa ziri muri gereza ya mageragere, kandi nk'uko bikomeza bigaragara harimo abantu bafite amabuni bagiye kuvoma amazi n'abandi bashinzwe imirimo itandukanye.

Aba ni abantu bishoboka neza ko ari umugore n'umugabo basohotse ahantu cyangwa se bagiye kwiyakira kandi bakaba ari abantu biyubashye cyangwa se bafite izina kandi urabona ko ahantu basohokeye hatunganye neza kandi habereye ijisho.

Aba bantu uko ari babiri bakaba baciwemo umurongo utukura, barashakishwa bitewe n'uko bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane.

Aba bagabo babiri cyangwa se abasore, mu bigaragara ni imfungwa kandi bakaba bari gushinjwa ibyaha, cyangwa se bari mu rukiko kugira ngo bige ku byaha baba barakoze, aba bicaye imbere yabo akaba ari abacamanza.

Iri ni itangazo ririmo ryemeza ko uno mugabo yafunzwe tariki makumyabiri n'enye z'ukwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, akaba yitwa Fulgence Kayishema.

Uyu mugabo uhagaze akaba yambaye ingofero y'umukara ndetse n'ikanzu y'umutuku, akaba azamuye akaboko kamwe akandi gafashe Idarapo, yari arimo arahira avuga ko inshingano ahawe azazinoza neza, kandi mu buryo bukwiye; imbere y'abandi bayobozi bigaragara ko bashobora kuba ari n'abacamanza.

Uyu mugabo wambaye amadarubindi y'umukara ndetse n'imyenda myiza ya gisirimu ubona ko yiyubashye cyane akaba yiteretse amazi, arimo abwira abantu yateraniye hamwe nabo ingingo arimo avugira ijambo.

Uyu mugabo urimo agenda ava mu kimodoka cyari kimutwaye cya RIB, ishinzwe ubugenza cyaha hano no mu Rwanda, biragaragara ko ashobora kuba ari umunyabyaha, bitewe n'uko bana mwambitse ibikomo ku maboko kugira ngo bizere umutekano wabo.

Aba bantu bahagaze imbere, bambaye amakanzu y'umukara ndetse n'ingofero n'umwitero ufite ibara ry'umweru n'umukara, bakaba bafashe idarapo, ni abantu bigaragara ko barimo barahira ku gihugu cy'u Rwanda, bavuga ko inshingano bahawe bazazikora neza.

Uyu mugabo wambaye imyenda y'umutuku, umukara ndetse n'umweru, akaba azamuye akaboko kamwe mu gihe akandi gafashe ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, imbere ye hakaba hateretswe icyuma kiyungurura amajwi, mu bigaragara arimo arahira avuga ko inshingano ahawe azazikurikiza neza kandi akazinoza binyuze mu mucyo.

Uyu mugabo wambaye amadarubindi y'umukara, akaba yambaye imyenda y'umutuku wiganje ndetse n'umweru mukeya, mu bigaragara cyangwa se mubi bizwi, ashobora kuba ari umucamanza mu bijyanye n'amategeko nk'uko bizwi mu gihugu cy'u Rwanda.

Uyu mugabo wambaye imyenda ijya gusa umutuku, mu bigaragara arimo ashinjwa ibyaha runaka maze akaba yaje muri runo rukiko kugira ngo abe yabasha kwiregura, kugira ngo ibyaha bitamuhama akaba yaguma muri gereza. Aba bari impande ye ni abashinzwe kumuburanira kugira ngo atabasha kuba yafungwa.

Hirya y'uwo munyonzi hari abagabo batatu bambaye imyenda cyangwa se inifomu y'abashinzwe umutekano mu Rwanda kandi bakaba bafite n'imbunda. Wakomeza hirya yabo na none hari abandi bantu b'abagore na bo bacuruza serivisi z'itumanaho z'ikigo cyitwa MTN.

Iyi modoka y'umukara irimo itambuka hepfo y'umuhanda n'i imodoka y'umuntu usanzwe mu gihe iri inyuma cyangwa se haruguru yayo iyi modoka y'abashinzwe umutekano mu Rwanda ikaba iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Uyu mugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu, ari kumwe n'abana batoya babiri na bo yambitse imyenda y'umwuga, arimo abereka ukuntu bakoresha amazi kugirango babashe kuba bazimya inkongi y'umuriro, yafashe ahantu runaka.

Iki kinyabiziga kiri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, gitwarwa n'abantu bashinzwe umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Iruhande rw'uno muhanda rero hari abantu cyangwa se abagenzi barimo batambuka.

Iki ni icyuma cyifashishwa mu gihe havutse inkongi mu nzu runaka kugira ngo kibe cyatabara byihuse mu kuyizimya ngo idakwirakwira ahantu hose maze kigatabara ubuzima bwa benshi kigabanya iyo nkongi.

Iki ni icyuma cyangwa se igikoresho cyakozwe n'abazungu, aho kibasha kuba cyakwifashishwa mu gihe habayeho inkongi y'umuriro ikaba yibasiriye inzu maze mu gushaka kuyizimya bakacyifashisha barimo bazimya iyo nkongi.

Iki cyapa kirimo kimenyekanisha kandi kinabwira abantu ko iyi nzu y'amagorofa nziza cyane ari ryo shami rikuru hano mu Rwanda ry'abashinzwe kwita ku mutekano wo mu muhanda ngo udahungabana, maze rukawubungabunga.

Iki cyapa gishinze mu butaka, kikaba kiri mu ibara ry'ubururu bwijimye ndetse n'umweru, kikaba na none gifite ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, kiramenyekanisha cyangwa se kirimo kirerekana ko hirya ukomeje kandi unatambitse hari sitasiyo ya RIB i Nyamirambo, ukaba rero wayahasanga.

Hano ni ahantu ubona ko hari urujya n'uruza rw'abantu benshi bagiye batandukanye, aho buri wese arimo atambuka kandi ajya muri gahunda ze, kandi no haruguru yaho urabona ko hari ibinyabiziga birimo bigenda mu muhanda bigiye bitandukanye, umuntu rero ufite agakapu kari hirya yo ku muhanda, afitemo icyuma kizwi nko kuzimya umuriro mu gihe inyubako cyangwa se ikindi kintu cyaba cyafashwe n'inkongi.

Uyu ni umuhanda bigaragara ko nta modoka n'imwe uwurimo, aho ku ruhande hari abanyamaguru, hakaba hari n'umwe ufite amabido mu ntoki, imbere ye hakaba har imodoka n'iruhande rwe hakaba ari inyubako y'amagorofa menshi.

Uno mugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba yazamuye ikiganza arimo asuhuza abantu. Yari umwe mu batoranyijwe n'ishyaka ryitwa green party hano mu Rwanda, kugira ngo abe yabasha guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu Rwanda.

Uyu ni umuyobozi mukuru w'u Rwanda akaba kandi n'umugaba w'ingabo z'u Rwanda mu bijyanye n'ibya gisirikare, dore ko afite n'amapeti agiye atandukanye yagiye ahabwa mu gisirikare.

Aha ni igihe cy'amatora, mu gihe umukandida w'ishyaka rya FPR mu Rwanda yari arimo yiyamamaza, abaturage bamukikije kandi bishimiye uno muyobozi witwa Paul Kagame, kandi kugeza na n'ubu akaba ari we ukiyoboye u Rwanda nyuma y'imyaka myinshi.

Aba ni abantu bari mu ngeri zigiye zitandukanye harimo abakobwa, abamama, abapapa ndetse n'abasore, bose bazi hamwe bakaba batonze umurongo, bategereje guhabwa serivisi yabazanye.

Aba ni abadepite hamwe n'abasenateri bahurije hamwe kugira ngo bige ku myanzuro cyangwa se imigambi igomba gufatwa, kugira ngo igihugu kibashe kuba cyayoborwa neza cyane kandi mu mutuzo n'umusesero abaturage banezerewe.

Iki kiganza biragaragara ko nyiracyo yari avuye mu gikorwa cy'amatora nk'uko bigaragara ko yari amaze gutora bitewe n'uko yari amaze gutera ibikumwe, agaragaza uwo ashyigikiye mu matora yari yabaye.

Aba bantu babiri bagaragara, ni abantu babigize umwuga gutwara amapikipiki, bahetseho n'abandi bagenzi, maze bakabona amafaranga muri ubwo buryo, imbere yawo hari imirongo y'umweru ugiye icagaguyemo, aho akaba ari ahantu abagenzi bagenewe gutambuka bambuka umuhanda.

Iyi modoka irimo igendamo muri uno muhanda, irimo abantu bagera kuri babiri, yifashishwa mu gutwara imizigo igiye itandukanye, cyane cyane iremereye maze ikayigeza aho yasabwe kuba yayigeza mu mutekano.

Iyi kamyo irimo iratambuka muri uno muhanda yifashishwa mu bijyanye n'ubucuruzi, nk'uko bigaragara inyuma cyane cyane mu gutwara cyangwa mu kwikorera imizigo ijyanye n'amavuta y'ubwiza y'abagore.

Iyi ni imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ubona ko n'ubundi isa nk'iyisanzuye mu muhanda. Birashoboka na none ko ishobora kuba hari abagenzi igifite igiye kugeza mu byerekezo byabo.

Uyu muhanda mu bigaragara urimo urujya n'uruza rw'amoko menshi agiye atandukanye y'ibinyabiziga, aho kimwe muri byo gitwaye imizigo mu gihe ibindi bitwaye abagenzi. Iruhande rw'uno muhanda rero, hari inzu y'igikorwa remezo wavuga ko iberamo ibikorwa bigiye bitandukanye bya rusange.

Aka ni kamwe mu gace gasangwa mu mujyi wa Kigali kitwa Nyabugogo mu gihugu cy'u Rwanda, akaba rero ari ahantu hakunze kuba urujya n'uruza rwinshi. Bitewe n'uko abantu bahahurira buri wese afite gahunda yo gukora ingendo zimujyana aho ashaka kujya hatandukanye, izi rero akaba ari imodoka nanone zifashishwa mu kugeza abagenzi aho bashaka kugera mu ngendo.

Iyi modoka iri mu ibara ry'umutuku ndetse ikaba ifite n'ibara ry'umukara irimo igendawa n'umuhanda iri mu bwoko bw'izitwa Jagwari, ikaba imodoka zagenewe gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange zikabatwara ari benshi maze zikambutsa umupaka w'u Rwanda, bivuga ko zibajyana mu bindi bihugu zibakuye hano mu Rwanda cyangwa se zikabazana hano mu Rwanda bavuye mu bindi bihugu.

Uyu muhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho harimo ikamyo y'ubururu ikaba itwaye imizigo y'ibinyobwa bikunzwe cyane n'abantu b'ingeri zose, iruhande rwayo hakaba hari ipikipiki nayo itwaye umugenzi.

Izi ni imodoka zifite inshingano zo gutwara abagenzi mu duce tugiye dutandukanye, aho baba bagiye hose bapfa kuba imodoka igerayo irabatwara maze nabo bakayiha amafaranga y'urugendo.

Iyi kamyo irimo igenda muri uno muhanda, yifashishwa mu gutwara imizigo iremereye cyane mu buryo bugaragara. Iyi ngiyi rero itwaye imifuka y'imizigo iyivanye ahantu hamwe ikaba iyijyanye ahandi. Haruguru y'uyu muhanda rero, hari amazu y'ibikorwaremezo. Mu gihe imbere y'uno muhanda ku ruhande nanone hari abaturage.

Aha ni mu masaha ya nimugoroba, aho hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse n'abantu bari mu ngeri zigiye zitandukanye, aho bishoboka ko barimo bataha mu macumbi yabo aho barara.

Ino modoka irimo inyuramo muri uno muhanda, ni imodoka yakozwe na rumwe mu ruganda rukomeye cyane hirya no hino ku Isi rwitwa toyota, iyi modoka rero ikaba yikoreye imizigo iyijyana aho igiye.

Iyi modoka iri mu ibara ry'ubururu, umukara ndetse n'umweru, iri mu zikoreshwa hano mu Mujyi wa Kigali mu bijyanye no gukora ingendo z'uburyo bwa rusange ikuru abagenzi ahantu hamwe ibajyana ahandi. Bimwe mu byo abantu rero bayikundira ni uko itwarira abantu benshi icyarimwe, ikaba ikoranye ikoranabuhanga rigezweho kandi ikaba itangiza n'ikirere dore ko ikoresha amashanyarazi kugira ngo igende.

Iyi modoka iri mu muhanda y'ibara ry'umweru n'umuhondo, ni imodoka zizwi cyane mu Rwanda kuba zitwara abagenzi, bagiye munce zigiye zitandukanye, ukaba wishyura amafaranga rero bakakugeza aho ushaka hose.

Iki ni ikinyabiziga kirimo kigenda mu muhanda ubona ko gitwaye imizigo, akaba ari ikamyo rero yagenewe gutwara ibintu biremereye cyane biyivana ahantu hamwe biyigeza ahandi cyane cyane bakayikoresha barimo kwimuka cyangwa se bari mu bijyanye n'ubwubatsi.

Hano hari ibinyabiziga byo mu bwoko bw'amakamyo biri mu ibara ry'umweru ndetse hari n'akandi gatoya kari ku ruhande rwabyo, ibi bikamyo binini rero byifashishwa mu gutwara imizigo iremereye cyane, zibivana hirya no hino maze zikabihajyana nta kibazo, mu imbere yabo rero hari abagenzi batambutse bagenda buri wese afite gahunda ze.

Iki gikamyo kirimo kigenda muri uno muhanda kiri mu ibara ry'umutuku kizwi ku izina rya hoho, kikaba rero kifashishwa mu gutwara imizigo iremereye cyane irimo cyane cyane ibyo kubakisha ndetse n'ibindi bifite ibiro byinshi.

Aha ni ahazwi nka dawuni tawuni mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, aho imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zibakura muri no gare zibageza aho n'ubundi berekeje bitewe n'urugendo bakora bagera iwabo.

Uyu ni umwe mu bashinzwe isuku mu bigaragara, akaba rero yari arimo atunganya kandi anasukura ku muhanda akoresheje ingorofani ye kugira ngo haze kuba hameze neza, abantu babashe kuba bahatambuka nta kibazo.

Uyu numuhanda uzamuka cyane bigaragara kandi ko hariho n'amapikipiki yose akaba ahetse abantu kandi hepfo y'uwo muhanda hari ibiti byiza cyane rwose by'amarumbo.

Iyi ni imodoka yakozwe na rumwe mu ruganda rukomeye hirya no hino ku isi, ikaba rero ifite ubushobozi bwo kwikorera imizigo igiye itandukanye, iruhande rwayo hari abantu barimo batambuka mu buryo busanzwe, harimo n'undi urimo wiruka utebuka.

Icyo kinyabiziga kiri imbere ni ikamyo ubona ko ari ndende cyane kandi yakoranywe ubuhanga, ikaba ibasha nanone kuba yakwikorera imizigo iremereye cyane kandi nanone myinshi mu buryo butayigoye, kandi uri kubona ko n'imbere yayo hari ipikipiki ihetse umugenzi ku muhanda.

Izi ni imodoka zifashishwa mu gutwara abagenzi bashaka kujya hirya no hino mu mujyi wa Kigali cyangwa se ahandi hantu hagiye hatandukanye zibasha kugera mu Rwanda, aha ngaha rero wishyura umuntu uragutwara maze akakugeza aho wifuza hanyuma nawe ukamwishyura amafaranga.

Iyi modoka iri mu ibara ry'umukara, icyatsi ndetse n'umweru irimo ica muri uno muhanda, iri mu zikunzwe hano mu Rwanda kubera ko ibasha gutwara abagenzi benshi icyarimwe, kandi ikaba itanahumanya ikirere kubera ko ikoresha amashanyarazi.

Uyu muntu wicaye imbere yino pipiki, atwaye cyangwa se ahetse uyu nguyu uri inyuma ye, akaba agiye kumugeza aho yamusabye ko aba yamugeza, iruhande rw'uno muhanda hari n'ibiti ibona atari ari birebire cyane kandi byiza, binafasha mu gukurura umwuka mwiza kandi binatuma imvura igwa.

Iyi ni imwe mu modoka nziza cyane kandi zigezweho zikoranye ikoranabuhanga zibasha kuba zatwara abagenzi mu buryo bwa rusange hano mu mujyi wa Kigali aho zibakura ahantu hamwe zibajyana ahandi.

Iyi ni imodoka by'umwihariko ishinzwe gutwara imizigo minini cyane kubera ko ari cyo yakorewe, ikaba iri gutambuka mu muhanda ibisiganwa n'imodoka yagenewe gutwara abagenzi muri rusange, naho ku ruhande rw'umuhanda ukaba ubona ko hari umugenzi urimo utambuka, wambaye ingofero.

Uyu muntu utwaye ipikipiki ahetse umugenzi inyuma ye ku muhanda, kandi mu bigaragara bari bamaze gukata none ubungubu bakaba bageze imbere ahantu hari imirongo miremire iciye mu muhanda yo kwambukiraho y'abagenzi.

Aha ni ahantu hanini cyane mu bigaragara kandi hagari habasha kuba hakakira abantu benshi kugira ngo babashe kuba babwirwa cyangwa se bareba icyabazanye bikihuta kubera ko ari heza cyane kandi habarinda izuba n'imvura.

Umugore uri ahantu bacururiza amata, ari mu inzu isize amarangi y'icyatsi, harimo akabati karimo ibikombe bitandukanye, ndetse ari kugenda asuka amata mu bikombe bitandukanye, ndetse hari n'ijage na yo iteretsemo amata ndetse n'amasiniya ahari ateretseho ibyo bikombe.

Iki cyapa kiri haruguru cyangwa se iruhande rw'uno muhanda kiri mu ibara ry'umutuku, umukara, ndetse n'umweru. Kirimo kibwira umunyamaguru, cyangwa se umugenzi wese urimo gutambuka kuri uno muhanda, ko aha ngaha abyemerewe n'amategeko kuba wahatambukira cyangwa se wakwambuka uno muhanda utagize ikibazo na kimwe. Bityo rero, ibinyabiziga bikagabanya umuvuduko, mu gihe bibona ko hari umuntu ushaka kwambuka maze ibyo binyabiziga bigahagarara.

Iki cyapa kiri iruhande rw'uno muhanda, kirimo kirabwira umuntu utwaye ikinyabiziga ko imbere ye hari ahantu hakata cyane, bityo rero akaba agomba kuhitondera akagabanya umuvuduko.

Iki ni icyapa bashyira mu muhanda kugira ngo babashe kubwira abantu bose bari gukoresha umuhanda batwaye ibinyabiziga, bere kuhegera aho hantu kubera ko hari kuba ibikorwa remezo cyanwgwa se bari kuhavugurura hari ikibazo.

Iki cyapa gifite inyuguti ya P iri mu ibara ry'umweru ikaba izengurutswe n'ibara ry'ubururu, kirimo cyerekana cyangwa se kimenyesha umuntu wese utwaye ikinyabiziga mu muhanda, ko aho hantu kiri hemerewe n'amategeko kuba wahashyira ikinyabiziga cyawe mu mahoro.

Aha ni mu gace kitwa Rambura. Mu bigaragara hari urujya n'uruza rw'abantu bo mu ngeri zigiye zitandukanye hirya no hino. Aho kandi bariguca umuhanda w'abanyamaguru iruhande rw'umuhanda urombereje cyane.

Iruhande rw'uyu muhanda, hari icyapa kiririmo ibara ry'ubururu, kirimo inyuguti ya pa kiri kuvuga ngo ahangaha hemerewe guparika imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, kandi zikaba zabakuriramo cyangwa se zikabashyiriramo muri aho ngaho.

Iki cyapa kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, kirimo kirabwira umuntu utwaye ikinyabiziga ke muri uno muhanda ko aha hantu nahagera agomba kubanza akahazenguruka maze akabona kujya mu kerekezo ashaka kugira ngo atabangamira umutekano wo mu muhanda.

Iki cyapa kiri iruhande rw'uno muhanda, gifite umubare wa mirongo itandatu mo hagati, kikaba kizengurutsweho n'ibara ry'umutuku, kirimo kiramenyesha abantu bose batwaye ibinyabiziga muri uno umuhanda ko byibuze batagomba kurenza kilometero mirongo itandatu ku isaha.

Iki cyapa kiri iruhande rwo mu muhanda, gifite inyuguti ya P iri mu ibara ry'umukara, ikaba iciyemo umurongo utukura, kiraburira abantu kibabwira ko aha hantu bitemewe kuhagarara umwanya munini n'ikinyabiziga cyawe.

Iki gikuta kiriho icyapa ndangahantu cyanditseho KG gatanu, gatanu zeru, ST icyenda, bishatse kuvuga ko aha ari mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo umuhanda wa magana atanu na mirongo itanu.

Iki ni icyapa cyo mu muhanda kivuga ko utagomba kurenza byibuze umuvuduko wa kilometero mirongo itandatu ku isaha, kandi munsi cyapa gikomeza kivuga ko imbere hari agafata amashusho, kagufata mu gihe warengeje uwo muvuduko w'ibirometero mirongo itandatu ku isaha.

Iki ni icyapa kerekana cgangwa se kiburira umuntu utwaye ikinyabiziga, ko imbere ye hari akandi kayira gatoya kinjira muri uwo muhanda munini arimo atwariramo, bityo kugirango yigengesere ataza kuba yakomatanya n'akandi kanyabiziga karimo gasohoka muri uwo muhanda mutoya.

Iki ni icyapa kirimo kibwira umuntu utwaye ikinyabiziga runaka, kimwibutsa ko agomba kugenda gahoro cyane kugira ngo atabasha kuba yabangamira umutekano wo mu muhanda n'izindi modoka ziri muri uwo muhanda yaba atwayemo.

Uyu ni umuhanda ubona ko urimo urujya n'uruza rwinshi rw'ibinyabiziga by'ubwoko bugiye butandukanye, aho buri kimwe kirimo guca inzira yacyo ariko kibiherewe uburenganzira n'icyuma kiri hejuru cyangwa se iruhande rw'uyu muhanda, kirimo cyaka amatara arimo icyatsi ndetse n'umutuku.

Iki ni icyapa kibwira umuntu wese utwaye ikinyabiziga uri mu muhanda ko atagomba kurenza nibura umuvuduko wa kilometero mirongo itandatu ku isaha kugira ngo atabangamira izindi modoka ziri mu muhanda, akaba yateza impanuka.

Uyu ni umuhanda bigaragara ko urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga cyangwa se imodoka ziri kujya hirya no hino aho zerekeye, noneho hirya yaho hari inzu bigaragara ko ari iy'igikorwaremezo iberamo ibintu runaka.

Izi ni imodoka nziza kandi zigezweho, binagaragara ko zishobora kuba zifite ikoranabuhanga, rigezweho murino minsi, ba nyirazo bazishyize aha ngaha mu gihe bagiye muri gahunda zabo, hanyuma nibagaruka barongera n'ubundi bazifate bazijyane imuhira.

Iyi ni inzu nziza cyane mu buryo bugaragara, ikaba yubatswe mu buryo bugezweho. Iyi nzu rero ikaba yitwa Biza. Ikaba izengurutse cyangwa se ikikijwe n'amadirishya ndetse n'umuryango bigezweho.

Iyi ni inzu nziza cyane ubona ko yubatswe mu buryo bwa kijyambere kandi bugezweho bubereye ijisho, ikaba igereretse inshuro igera kuri imwe, hagati ifite amatafari kandi n'ibirahuri by'umukara ubona ko bituma iba nziza kurushaho.

Iyi nzu ndende cyane yubatswe mu buryo bugezweho ifite amagorofa menshi, ni inzu iberamo ibikorwa rusange aho twavuga ko haberamo ibijyanye n'ivunjishwa ry'amafaranga y'ibihugu bijyiye bitandukanye ndetse n'aho bacururiza imiti ikiza indwara ndetse n'ububabare, hanze y'iyo nzu rero hakaba haparitse n'ibinyabiziga byinshi by'amoko atandukanye.

Aha ni ahantu hitwa mu giporoso nk'uko birimo bigaragazwa mu magambo yanditse hakaba rero hari urujya n'uruza rw'abantu benshi bajya muri gahunda zabo zigiye zitandukanye kandi hakaba hari n'amapikipiki ariho abayatwara yiteguye gutwara abagenzi.

Iyi ni inzu ndende iberamo cyangwa se bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye aho nko mu muryango umwe, bacururizamo ibijyanye n'imyenda cyangwa se imyambarire, bakaba rero banacururizamo inkweto kandi ubona ko bisa neza cyane, iruhande rwaho hari ahandi hari isoko cyangwa se ahantu wagurira ibyo kurya n'ibindi byose wifuza kuba wacyura iwawe.

Uyu ni umuhanda mu bigaragara urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, hirya y'uno muhanda na ho hari ibinyabiziga bihagaritswe, hakaba na none ibikorwa remezo bigiye bitandukanye aho hari nk'inyubako ifite amagorofa agera muri atatu agerekeranyije.

Aba ni abantu babiri barimo batambuka bambaye ibikapu; inyuma yaho cyangwa se iruhande rwaho hakaba hari imodoka ubona ko zakozwe neza kandi zifite ikoranabuhanga rigezweho.

Ku ifoto yacu turahabona ibiganza bibiri kimwe gifashe muri murandasi ikindi gicigatiye amafaranga y'amanyamahanga ndetse n'amanyamerika yifashishwa mu kugura icyo wifuza icyo aricyo cyose gihwanye n'ayo mafaranga.

Izi modoka uko ari eshatu ni imodoka nziza kandi zikozwe mu buryo bwa kijyambere zinabereye ijisho, aho zinakoranye ikoranabuhanga rigezweho ubu ngubu. Banyirazo rero bakaba binjiye muri amwe muri ayo mazu rusange kugirango ngo babashe kuba babona icyabazanye.

Aha ni mu murenge wa Ndera aho barimo berekana amazu meza cyane yubatswe mu buryo bugiye butandukanye n'ayandi kandi ubona ko asirimutse cyane nubwo hagati yayo hagiye harimo ubyatsi byinshi ariko urabona ko ari amazu meza cyane.

Aya ni amazu ubona ko yubatswe mu bucucike bukabije cyane, aho amwe ashobora no kuba yagwira ku bantu bitewe n'uburyo yubatsemo kandi akaba anafatanye ku buryo bukabije, mu gihe haruguru hari andi meza yubatswe mu buryo bugezweho.

Aha ni mu gace kitwa Remera nk'uko byanditsemo hagati, haruguru bakaba bari kutwereka amazu meza cyane arinzwe n'urukuta rw'amatafari ku bw'umutekano wayo kandi ayo mazu akaba ari munsi y'uwo muhanda barimo batwereka.

Uyu ni umuhanda ubona ko urimo urujya n'uruza rw'imodoka z'ubwoko bugiye butandukanye aho n'abantu barimo kugenda batambuka iruhande rwo mu muhanda bataha iwabo, n'amatara yo kuri uno muhanda urabona ko bayacanye bitewe n'uko bwatangiye kwira kugirango ibinyabiziga ndetse n'abantu bakoresha uno muhanda babashe kuba babona neza.

Uyu ni umuhanda mugari kandi bigaragara ko wubatswe neza cyane, iruhande rwawo hakaba hari ibiti bifasha gukurura umwuka mwiza, ku rundi ruhande hakaba hari abantu cyangwa se abagenzi barimo batambuka, muri uyu muhanda nanone harimo ibinyabiziga byo mu bwoko bw'amapikipiki burimo bugendamo.

Uyu muhanda urimo urujya n'uruza rw'imodoka z'ubwoko bwiza cyane ubona ko bubereye ijisho kandi mu bigaragara zinakoranye ikoranabuhanga rigezweho, hirya y'uyu muhanda rero hakomeza na none hagaragara inyubako nziza cyane y'icyitegererezo na yo yubatswe mu buryo bugezweho.

Uyu ni umuhanda bigaragara ko urimo isuku nyinshi cyane kandi ku ruhande rwawo hakaba hateye ibiti n'indabo byo kugira bitange umwuka mwiza, hakaba kandi hari n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga muri uwo muhanda.

Ahantu hatangirwa serivisi za eyateri zitandukanye, turabona ibyapa bya eyateri bitandukanye kandi bivuga ibintu bitandukanye. Eyateri rero itanga serivisi nyinshi zishobora gufasha mu bijyanye na telefone, interineti ndetse n'uburyo bwo kwishyurana. Dore muri bimwe mu buryo ushobora gukoreshamo ukoresheje eyateri, harimo kohereza no kwakira amafaranga, kwishyura ibicuruzwa na serivisi, kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga kumu ajenti wa eyateri kugura ama unite na interineti, serivisi z'amajwi, guhindura icyongereza cyangwa ikinyarwanda kuri simukadi yawe kandi hari'icyo wakora igihe ufite ikibazo aho ushobora guhamagara ijana, kugira ngo ugerageze kuvugana n'umukozi wa eyateri bagufashe. Ushobora kandi kugana eyateri ku ishami iryo ari ryose ribegereye, bakabagufasha mugihe ufite ikibazo kijyanye n'umurongo w'itumanaho bakoresha.

Ino mirongo igiye iciye hagati y'uno muhanda ikaba iri mu ibara ry'umweru, ni imirongo yagenewe gutambukaho abanyamaguru bose bashaka kwambuka, bava ku muhanda wo hirya bajya ku wo hino.

Mu bigaragara, aha ni ku muhanda wa puruwa ruru, mu karere ka nyarugenge mu mugi wa kigali mu Rwanda. Ahangaha imodoka zimwe zica munsi izindi zigaca hejuru bigatuma habaho ukutagongana hagati y'imodoka zitwaye imizigo myinshi, n'itwaye imikeya.

Iyi ni imwe mu modoka nziza kandi zigezweho hano mu Rwanda, zikoreshwa mu mujyi wa Kigali, mu gutwara urujya n'uruza rw'abagenzi bava mu duce tugiye dutandukanye hirya no hino. Ikaba rero ifite ikoranabuhanga rigezweho kandi ikaba ikoresha amashanyarazi bituma itangiza ibidukikije.

Aya ni amapikipiki arimo agenda mu muhanda ashaka abagenzi yatwara kugira nabo babone uko babaho. Mu gihe hepfo yo mu muhanda, hari abagenzi basanzwe n'ubundi barimo bagenda, hepfo y'umuhanda nanone hari icyapa kiranga hano hantu aha ariho. Aho kiri kuvuga ko ahano ari muri Kigali i Gasabo mu mu muhanda wa magana atandatu na mirongwikenda n'umunani.